Aha baragaragaza ahantu hagurishirizwa ibikoresho bitandukanye, byo kw'iririmbisha n'ubwiza. Harimo imyambaro myiza y'aba mama n'abakobwa ndetse n'imirimbo yo kwambara ku maboko no mu ijosi.

Aha bari kwerekana ahantu heza cyane inyubako icururizwamo ibikoresho byinshi by'umuco ndetse n'ubugeni bijyanye n'ubuhanzi n'ubugeni nyarwanda.

Iyi shusho iragaragaza umubyeyi uhagaze yishimye yambaye imyambaro yidodeye ndetse uko bigaragara afite n'iyindi myinshi imuri inyuma acuruza kandi rwose ubona ko yishimye cyane.

Iyi shusho iragaragaza umuntu uri kubara amafaranga y'amanyamahanga, uko bigaragara imbere ye afite n'icyuma kimufasha kubara amafaranga, hikoreshejwe ikoranabuhanga.

Iyi ni ishusho igaragaza ahantu hacururizwa ibicuruzwa bitandukanye by'inyange harimo amata n'ibindi binyobwa bitandukanye biryoha.

Iyi shusho rigaragaza mwari, wambaye impuzankano y'akazi, ari kwakira abamugana baje kugura amata meza y'inshyushyu yo kunywa kandi bigaragara ko ari kubaha ubufasha bashaka neza.

Iyi shusho iragaragaza kwamamaza ikigo cy'imari cyo mu Rwanda, aho bashishikariza abantu ko ubu byakunda ko bakwakira n'amafaranga avuye mu bihugu byo hanze, bakayakira aho bari, icyo kigo cy'imari kibibafashijemo.

Ishusho iragaragaza inyemezabwishyu itangwa n'ikigo cy igihugu cy'u Rwanda, gishinzwe imisoro n'amahoro, uko bigaragara ni uko uyu muntu ari umuturarwanda mwiza kuko yaka inyemezabwishyu.

Ni icyapa kiranga aho bavunjishireza amafaranga, kirerekana amafaranga n'agaciro bayaguraho cyangwa bayavunjaho kugira ngo ababagana, baze babona n'uburyo bari bufashwemo kugira ngo babashe gufatwa neza bishime.

Ishusho iragaragaza icyapa, kiranga umuntu uvunja amafaranga wemewe wabiherewe uburenganzira, amafaranga yose uko bigaragara yemerewe kuyahindura mu yandi umuntu wese yaba ashaka, kandi mu buryo bwemewe n'amategeko.

Ishusho iri kugaragaza ahantu inyubako, bacururizamo, ibicuruzwa bitandukanye byo mu nzu, ndetse hakagaragara n'umuntu bisa nkaho ariwe ubicuruza.

Iyi ni ishusho igaragaza umuntu wicaye wambaye neza yiteguye kwakira neza abamugana.

Iyi shusho iri kugaragaza icyumba cyiza cyane gifite ibikoresho byinshi bigezweho haragaragaramo uburiri hakagaragaramo n'ahantu ho gukarabira ndetse uko bigaragara iyi nzu ifite n'igikoni cyiza.

Iyi shusho iragaragaza inyubako ngari, ikoreramo ibikorwa bitandukanye, aho harimo ikigo cy'ubwishingizi, ndetse naho batangira ubufasha bwo kuguranisha amafaranga.

Iyi ni ishusho yo kwamamaza aho bari muri gahunda yo kwamamaza bavuga ko imbere heza hategurwa uyu munsi. Bashishikariza abantu kwizigamira. Batangiye uyu munsi.

Kugaragaza umukozi abakozi batandukanye bo mu kigo cy'itumanaho cyo mu Rwanda ndetse n'umuntuntu bigaragara ko yishimye biragaragara ko bamuhembye kubera gukoresha neza itumanaho ryabo.

Iyi shusho iragaragaza urubuga rwashyiriweho kugura ibintu by'ibicuruzwa biturutse hanze mu mahanga, uko bigaragara ni uko, uru rubuga rwose rufasha abantu byoroshye.

Iyi shusho iri kugaragaza kwamamaza inyubako zikodeshwa, abantu bakazijyamo basanga harimo n'ibikoresho bitandukanye, bakerekana aho iherereye ko ari Kibagabaga mu mujyi wa Kigali ndetse bakerekana n'amafaranga yabasha kwishyurwa kugira ngo umuntu abashe kuyibamo.

Iyi shusho iragaragaramo abantu benshi baje ahantu ku cyicaro kwaka ubufasha. Haragaragaramo n'umugabo wicaye, bigaragara ko arindiriye umwakira ariko umwakira adahari.

Iyi shusho iri kugaragaza ababyeyi bane, bigaragara ko rwose bishimiye uko bitaweho, umwe afite umwana ariko uko bigaragara mu maso yabo barishimye.